Hari abagabo bane abantu bane barimo baraganira abagabo babiri mama babiri bari kuganira ku munsi w'ubukerarugendo, umugabo w'iburyo yambaye ipantaro yumukaraje n'ikote n'ikoti ry'umutuku undi yambaye ipantaroteyeigitenge naho undi mugore yambaye ibitenge barimo baraganira ku munsi w'ubukerarugendo.

Iyi nziramugozi irimo akanyenyeri ijana na mirongo itanu na gatanu urwego, ikaba igaragaramo imbuga nkoranyambaga zisakaza ubutumwa zigiye zitandukanye uko ari eshatu ikabamo n'akabwikaho amakuru.

Urubuga nsakazamakuru rwiza cyane, ruri mu mabara y'umweru n'ubururu, aho usanga amakuru agiye atandukanye ku bantu bashaka ubufasha bugiye bitandukanye mu Rwanda.